Bimwe mu bishushanyo bigaragaza inyamaswa zo mu ishyamba, umupira wo gukina ndetse n'ibindi ni bimwe mu byifashishwa mu uburezi bwo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke.

Mu mashuri abanza ndetse n'ayinshuke bagira ibitabo bitandukanye. Twavugamo nk'igitabo cy'umunyeshuri k'isomo ry'ikinyarwanda. Iki gitabo kiba gikubiyemo, inkuru ndetse n'ibishushanyo bifasha abana kwiga neza.

Ibishushanyo ni kimwe mu byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke. Ibi bifasha abarezi gutanga amasomo yabo neza ndetse n'abana bakamenya gushishoza no kumenya ibyo bari kwiga.

Ishuri rya Karangazi ni rimwe mu mashuri y'icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda kuko ritsindisha ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'andi mashuri ari mu gihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke ni bamwe mu bakunda kwiga bakoresheje ibikinisho bigiye bitandukanye, kandi biri mu mabara agiye atandukanye.

Ibitabo birimo inkuru zitandukanye nk'inkuru ya bakame, inkuru ya warupyisi, ni bimwe mu byifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke, mu gutanga uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biga ibijyanye n'imyuga, barakangurirwa n'abayobozi ndetse n'Igihugu muri rusange kwihangira imirimo mu rwego rwo guteza Igihugu imbere.

Minisiteri y'uburezi yashyize imbaraga mu gushaka ibikoresho bitandukanye harimo intebe zo kwicarwaho, ameza yo kwandikiraho azajya yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza.

Abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, bishimira uburezi bahabwa ndetse bagashimira abarimu na leta y'u Rwanda, idahwema kubagezaho ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bijyanye n'igihe.

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza barashimira minisiteri y'uburezi ko ikomeje kubashyigikira mu guteza imbere ndetse no gutanga uburezi bufite ireme, ibi babivugiye mu nama bakoranye n'umuyobozi mukuru wa minisiteri y'uburezi.